Abantu bahurijwe hamwe mu cyumba cy'inama baganirizwa nk'umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha abaganiriza ku bijyanye n'ibyo afite mu nshingano bitandukanye nk,uko byateganyijwe.

Inzu mberabyombi yakira umubare w'abantu benshi bahuje n'igikorwa runaka. Yaba ubukwe, ibirori, amanama, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, bisaba ko abantu bahurizwa hamwe, kugira ngo bakirirwe hamwe, bose babashe gukurikira ibikorwa byahabereye.

Mu kiganiro n'itangazamakuru, abayobozi mu nzego za leta basobanurira abaturage ibyo bakora ndetse n'ibyo bakorerwa n'abaturage, batanga ibitekerezo by'ibyashyirwa ku murongo w'ibizakorwa kugira ngo himakazwe uruhare rw'umuturage kugira uruhare mu bimukorerwa ndetse no kubona serivisi zimunogeye.

Abayobozi mu nzego za Leta bari bahuriye mu cyumba cy'inama, baganira ndetse banungurana ibitekerezo, ku buryo bahagarika ndetse bakanarwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Abayobozi banemeje kandi gukangurira abaturage gutanga amakuru ku gihe, kugira ngo barwanye burundu iki kibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, basobanurira buri muturarwanda uruhare rwe mu kurwanya iri hohoterwa.

Abayobozi mu nzego za leta bateraniye hamwe mu cyumba cy'inama biga ku ngingo zimwe na zimwe zigamije iterambere ry'abaturage ndetse n'imibereho myiza yabo himakazwa ko umuturage agira ijambo rimukorerwa ndetse akagira uruhare muri serivisi ahabwa ibindi bikazamura icyizere cy'ubuyobozi ndetse no kuba abaturage bizerera muri serivisi bahabwa n'izi inzego za leta.

Abayobozi mu nzego z'ibanze ubwo bateraniye mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo ndetse bahugurwa ku buryo bazamura politiki yo gushyira umuturage ku isonga mu gufata umwanzuro w'ibimukorerwa kuko nawe ari umufatanyabikorwa mu iterambere ry'ibimukorerwa.

Inama yari yateguwe na minisiteri ifite mu nshingano yo kurwanya ibiza ihurije hamwe abayobozi mu nzego zitandukanye ndetse n'abafatanyabikorwa baganira uburyo bagabanya ibyago byo kuba ibiza byagera mu gihugu ndetse banungurana ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo byirindwe.

Abaturage bateraniye mu nteko rusange baganira ku bibazo bimwe na bimwe bibugarije ndetse banungurana ibitekerezo mu byakorwa kugira ngo umutekano wabo ushyirwe imbere cyane cyane babigizemo uruhare mu kubicungira ndetse batangiragire amakuru ku gihe kubyo babonye bitagenda neza kugira ngo umutekano wabo ukomeze kuba wuzuye kandi usesuye.

Inzu mberabyombi yakira umubare w'abantu benshi, yakira ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo amanama ubukwe ndetse n'ibindi bikorwa byose bisaba guhuriza hamwe umubare munini w'abantu benshi mu Rwanda.

Icyumba cy'inama cyakira abantu kikanakira amanama atandukanye, aho bahuriyemo biga ku ngingo runaka zateguwe, bigaragara ko ndetse harimo n'abari gufata amafoto y'inama iri kuba.

Urubyiruko rwri rwitabiriye amahugurwa yari yateguwe na Minisiteri ya Siporo, akangurira urubyiruko kwitabira ibikorwa bitandukanye bya siporo, basobanuriwe akamaro ka siporo ndetse n'akamaro igira ku buzima bwabo ndetse n'ubw'igihugu muri rusange, aho basobanuriwe ko ihuza abantu kandi igatanga umusaruro mu kurwanya indwara zitandura.

Inzu mberabyombi iteraniyemo abayobozi mu nzego za leta, barebera hamwe aho bamaze kugera mu ntego bari bihaye mu mwaka, ndetse bareba n'icyakorwa kugira ngo ibitaragera ku musozo bigerweho vuba. Kandi barebera hamwe ibigamije kuzamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Icyumba cy'inama cy'akarere ka Gasabo aho abayobozi n'abaturage cyangwa se n'abandi bari mu nzego zitandukanye bahura bakaganirira hamwe ku iterambere ndetse n'imibereho myiza y'abanyarwanda cyangwa se ku bibazo runaka bihari bigashakirwa ibisubizo.

Icyumba cy'inama cyari cyahurijwemo abayobozi mu nzego zitandukanye baganira ku ngingo zijyanye n'iterambere ry'igihugu ndetse n'imibereho myiza y'abatuye igihugu, bungurana ibitekerezo, harebwa ndetse n'imyanzuro yafatwa kugira ngo buri muturage wese yisange muri gahunda njyabukungu nkuko biri mu ntego y'igihugu.

Ibiganiro byahurije hamwe abakozi ba leta ndetse n'abakora mu zindi nzego z'abikorera, cyane cyane mu bice by'ubuhanzi, ubucuruzi, n'ishoramari, bungurana ibitekerezo ku byo bumva byakorwa ndetse n'icyakorwa kugira ngo umuco wo gutanga serivisi inoze ukomeze kwimakazwa muri buri rwego rwose rw'igihugu.

Abayobozi mu nzego za leta ndetse n'abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro, ubwo basobanurirwaga imitangire ya serivise ndetse n'uburyo yanozwa kugira ngo byihutishe iterambere, imwe mu nkingi ya mwamba, iterambere ndetse n'ubwisanzure bw'abatuye mu gihugu.

Umuyobozi mu kigo cya Leta ubwo yagaragarizaga abandi bakorana aho imishinga bafite igeze ishyirwa mu bikorwa ndetse n'uruhare basigaje kugira ngo basoze ku gihe nkuko bari barabyihaye mu ntego mbere y'uko igikorwa nyirizina gitangira.

Urwego rw'igihugu rwa polisi rushinzwe gukurikirana ahabere ibyaha ndetse n'umutekano w'abaturage muri rusange, bityo bigafasha abaturarwanda bose gutura batekanye kandi mu mahoro nta nkomyi, aho bakumira icyaha kandi izi nzego z'umutekano zirinda buri muturarwanda wese.

Icyumba cy'inama ahari habereye ikiganiro n'itangazamakuru abayobozi basesengura ingingo zimwe na zimwe, zari zatanzweho umurongo w'ibyigwa bagira ngo abaturarwanda babisobanukirwe, binyuze ku bitangazamakuru bitandukanye byari byaje muri icyo kiganiro.

Abayobozi batandukanye mu nzego za Leta ndetse n'iz'ubuvuzi ubwo baganiraga n'abaturage ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, aho bari bafite insanganyamatsiko igira iti: "twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera". Bunguranye ibitekerezo bareba n'icyakorwa kugira ngo ubuzima bw'umutwe aho abantu bakorera bubashe guhabwa agaciro kandi bwitabweho.

Inama yahurije hamwe abayobozi mu nzego za leta zitandukanye, bigira hamwe uko bateza imbere igihugu cyacu ndetse banaganira byinshi ku cyakorwa kugira ngo tugere ku majyambere arambye.

Abayobozi mu nzego za leta ndetse n'abikorera bahuriye hamwe mu cyumba cy'inama kugira ngo bungurane ibitekerezo ku byashyirwa mu ngengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na gatanu bigamije kuzamura iterambere ry'abaturage ndetse n'iry'igihugu muri rusange.

Ubukangurambaga bwari bwateguwe n'umuryango utegamiye kuri leta wa Yuwesayidi. Aho bakanguriraga abantu kwita ku buzima bwo mu mutwe cyane cyane ku munsi mpuzamahanga wahariwe ubuzima bwo mu mutwe. Intego y'uyu munsi yari ukwita ku buzima bwo mu mutwe, aho abantu bakorera mu bice bitandukanye.

Abaturage bari bahurijwe hamwe, aho baganiraga n'ubuyobozi bwabo, baganira ku ngingo zigamije iterambere ryabo ndetse batanga ibitekerezo by'ibyo bumva byashyirwa mu ngengo y'imari bityo bakagira uruhare mu bibakorerwa ndetse bagatanga umusanzu wabo, mu kubaka igihugu yaba ubwabo ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange.

Umwe mu bayobozi b'umujyi wa Kigali ubwo yaganiraga n'abaturage bungurana ibitekerezo ku byakorwa mu ngengo y'imari y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, bibiri na makumyabiri na gatandatu kugira ngo abaturage bagire uruhare mu bibakorerwa ndetse banatange uruhare rwabo rusesuye mu kubishyira mu bikorwa.

Abayobozi mu nzego za leta, aho bateraniye hamwe mu cyumba cy'inamama, biga ku ngingo rusange z'ibigomba gushyirwa mu ngengo y'imari y'umwaka w'ibihumbibibiri na makumyabiri na kane na makumyabiri na gatanu, ndetse banumva uruhare rw'abaturage mu kugira ngo izi ngamba bihaye zishyirwe mu bikorwa kandi zigerweho.

Abayobozi mu nzego za leta bateraniye hamwe biga ku bibazo byugarije sosiyete ndetse banashakira hamwe umuti ukwiye ku bibazo bitandukanye abaturage bafite cyane cyane himakazwa ko umuturage agira uruhare mu bimukorerwa bityo akaba umufatanyabikorwa mu iterambere ry'igihe kirambye.

Abayobozi batandukanye mu nzego za Leta ndetse n'abashinzwe umutekano ubwo bari mu bukangurambaga hirya no hino mu gihugu, bakangurira abaturage gusobanukirwa uruhare rwabo ndetse n'inshingano zabo kugira ngo himakazwe umutekano usesuye imbere mu gihugu no hanze yacyo cyane cyane bakangurira gutangira amakuru ku gihe.

Abaturage bahuriye hamwe n'abayobozi babo, baganira ku bibazo bibangamiye abaturage ndetse banagena umurongo w'ibigenderwaho bizashyirwa mu ngengo y'imari y'umwaka, kugira ngo bagire uruhare mu bibakorerwa kandi bagire uruhare rufatika mu gusigasira ibyagezweho no kujyana mu ngamba n'abayobozi bihitiyemo.

Inzu mberabyombi yakira inama zitandukanye n'ibikorwa bitandukanye, aho abantu bashobora guhurira hamwe, bakaganira ku ngingo cyangwa ibibazo runaka zigashakirwa umusubizo ndetse bakungurana ibitekerezo ku ngingo zitandukanye zatumye bahurira hamwe, muri icyo cyumba cy'inama.

Abaturage bateraniye mu cyumba cy'inama baganira ku ngingo zimwe na zimwe zigamije iterambere ndetse banungurana ibitekerezo ku bikorwa bitandukanye bafite kuba bakora muri ajenda yabo, uko bigaragara bahuriye mu cyumba cy'inama bungurana ibitekerezo.

Kimwe mu byumba by'inama bigize inyubako ya Kigali komvesheni senta, aho yari yakiriye abayobozi mu nzego za leta batandukanye, biga ku bibazo bibangamiye iterambere ndetse n'ingamba zafatwa kugira ngo buri muturage yisange muri gahunda z'iterambere ry'igihugu ndetse n'ubukungu muri rusange.

Icyumba cy'inama ba giteraniyemo abayobozi mu nzego za leta, bigira hamwe ibibazo ndetse banareba umusanzu umuturage yatanga kugira ngo imiyoborere inozwe ndetse na serivisi ahabwa zimunogere. We ubwe atanze ibitekerezo, abigiramo uruhare bityo akagira uruhare mu bimukorerwa.

Ubukangurambaga bwateguwe n'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere RDB mu karere ka Nyagatare, aho bakanguriraga abantu gushora imari muri iki kigo kugira ngo bazamure iterambere ry'igihugu ndetse bagire uruhare mu izamuka ry'iterambere ry'igihugu, na bo ubwabo kandi babona inyungu kandi mu buryo burambye.

Abayobozi mu nzego za leta cyane cyane iz'urubyiruko, aho bahuriye mu cyumba cy'inama, bungurana ibitekerezo ku cyakorwa kugira ngo iterambere ryabo ryihutishwe. Aha kandi bunguranye ibitekerezo ndetse batanga n'ibyifuzo by'ibyo bumva bakorerwa kugira ngo bagire uruhare mu bakorerwa, bityo bisange muri serivisi bahabwa.

Amahugurwa yateguwe n'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere RDB, akabera mu Karere ka Nyagatare, aho yakanguriraga abantu kugura impapuro mpesha mwenda, kugira ngo bashora imari yabo mu Rwanda bityo bifasha mu iterambere ry'igihugu, na bo ubwabo bibafashe kubona inyungu batavunitse.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za leta bahuriye hamwe mu nzu mberabyombi baganira ku bibazo bitandukanye ndetse n'ingamba bafata mu kuzamura imibereho myiza n'iterambere ry'abaturage, himakazwa gushyira imbere umuturage akagira uruhare mu bimukorerwa.

Abayobozi batandukanye bagize Inama Njyanama y'umujyi wa Kigali, bahuriye mu nzu mberabyombi, bungurana ibitekerezo hashakwa ibyakorwa kugira ngo iterambere ry'umuturage rize ku isonga kandi umuvuduko wo kuzamura ubukungu ukomeze kwiyongera nk'uko byari byabaye mu myaka yabanje .

Ubukangurambaga bwari bwabereye mu mujyi wa Kigali, aho abari n'abategarugori bahugurirwaga ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ribera mu miryango, kuko bamwe muri bo basanze bakorerwa ihohoterwa ariko batazi ko ari ihohoterwa, bityo kugira ngo himakazwe iterambere n'imibereho myiza ya buri wese bari bagenewe amahugurwa.

Gahunda ya leta izwi nka Rwanda raputopu cadi, aho buri munyeshuri wiga mu mashuri abanza ahabwa mudasobwa bityo ikamufasha mu myigire yiwe cyane cyane ijyanye n'iby'ikoranabuhanga, akagira ubumenyi bwimbitse cyane ko aribyo musingi w'iterambere mu kinyejana tugezemo.

Abakozi ba rumwe mu nzego za leta bahugurwa gukoresha mudasobwa mu kazi kabo ka buri munsi, nk'uburyo bwonyine rukumbi bunoze, bwo gutanga serivisi mu buryo bunoze kandi bwihuse, bidasabye ko abasaba serivisi bahagararana cyangwa ngo hakoreshwe impapuro.

Ubukangurambaga bwa byikorere bwatangijwe na minisiteri ifite itumanaho n'ikoranabuhanga mu nshingano, aho bukangurira buri munyarwanda, bose kumenya uko bakisabira serivisi zitandukanye bifashishije urubuga rw'irembo bakoresheje mudasobwa cyangwa telefone zabo ngendanwa.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, aho bari bavuye mu mahugurwa ndetse banahabwa ibihembo ku bakozi bitwaye neza kurusha abandi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Abo bakozi kandi bibukijwe ko bagomba guharanira iterambere ry'iki kigo, bimakaza imitangire myiza ya serivisi.

Iminara y'itumanaho ni kimwe mu bikorwa remezo by'ingenzi cyane mu koroshya itumanaho mu rwanda, aho amasosiyete atanga serivi z'itumanaho mu rwanda, atanga serivisi nziza yaba izo guhamagara ndetse n'izi enterinete, binyuze kuri iyi minara iri hirya no hino mu gihugu.

Hamwe mu hatangirwa serivisi zitangwa n'ikigo cy'imari cya Banki ya Kigali. Aho umukiriya ashobora kujya akabona serivisi z'iki kigo bidasabye aho gikorera, ahubwo akajya ku begenti bacyo bari hirya no hino mu gihugu, bityo akabona serivisi bidasabye ko ajya ikigo gikorera kandi mu buryo bumworoheye.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rutangirwaho serivisi zimwe na zimwe za leta, binyuze ku rubuga rw'irembo, aho rukoreshwa mu gutanga serivisi za leta bidasabye ko umuturage akura urugendo ajya mu buyobozi gushaka serivisi, aho byose abikora ari ahantu hamwe agasaba ibyangombwa, ndetse akanabibona bitamusabye gukora urugendo.

Itangazo rya minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo mu Rwanda, aho ryibutsaga abakozi bose uko amasaha ngengabihe aha uko akazi kazajya gakorwa yahindutse, uhereye ku itariki ya mbere mutarama bibiri na makumyabiri na gatatu, bagaragaza igihe amasaha y'akazi azajya atangira ndetse n'igihe kazajya karangirira.

Ikoranabuhanga ni rumwe mu nzego za leta zishyirwamo imbaraga umunsi ku wundi kuko isi aho igana bitakiri ngombwa ko abantu bajya kwaka serivisi ngo birirwe bategereje ahubwo bishobora kubaho byose hifashishijwe morandasi, niyo mpamvu serivisi nyinshi za leta kuri ubu ushobora kuzisaba wifashishije mudasobwa cyangwa telefone ngendanwa kuri murandasi bitagusabye gukora urugendo ujya kuzishaka.

Iminara yifashishwa mu koroshya itumanaho binyuze mu masosiyete agiye atandukanye akorera imbere mu gihugu ndetse n'ibitangazamakuru bityo bikoroshya itumanaho ndetse n'imihahiranire hagati y'abantu kuko banashobora kubona serivisi zibanogeye z'itumanaho.

Ubukangurambaga bwo ku ikoranabuhanga bwari bwakozwe n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti, bwamenyekanishaga ko itariki ntarengwa yo kumenyekanisha umusoro ku mutungo utimukanwa wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ari itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwa cumi, bibiri na makumyabiri na kane.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro, rura ahatangirwa serivisi zitandukanye bidasabye kujya aho uru urwego rukorera ku buryo ujyamo ukareba ibihari cyangwa ukabona ibyemezo ukeneye bidasabye kujya gutonda umurongo kuri iki kigo ahogikorera.

Abakozi mu nzego za leta zitandukanye aho bari bahuriye mu cyumba kimwe cy'ikoranabuhanga bahugurwa ku buryo bugezweho bwo gukoresha mudasobwa mu koroshya akazi kabo ka buri munsi bityo bikongera imitangire myiza ya serivisi mu kazi bakora ka buri munsi.

Urubuga rw'ikoranabuhanga rw'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB, ahatangirwa serivisi zitandukanye zitangwa n'iki kigo bidasabye ko umuntu ajya aho gikorera, ahubwo akaba yahabwa serivisi adakoze urugendo anyuze gusa kuri uru rubuga, agasaba ibyangombwa akeneye anyuze kuri uru rubuga.

Urubuga rutangirwaho serivisi z'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, aha ngaha uhasanga serivisi zitandukanye zitangwa n'iki kigo, bidasabye kujya gutonda umurongo aho gikorera, ahubwo ukazisaba wifashishije mudasobwa cyangwa terefone yawe, ukazibona bidasabye kujya aho iki kigo gikorera.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda reveni otoriti, aho ryamenyeshaga abasorera bose ko haburaga umunsi umwe ngo abataramenyekanishije umusoro mbere y'itariki mirongo itatu nimwe z'ukwacumi na biri na makumyabiri na gatatu bakurirweho amande ku nyungu z'ubukererwa.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere ahatangirwa serivisi zitandukanye zitangwa n'iki kigo bidasabye ko umuntu ajya gutonda umurongo aho ikigo gikorera ahubwo akaba yasaba ibyangombwa anyuze kuri uru rubuga rwabo agahabwa serivisi atavuye aho ari.

Uburyo bwashyizweho n'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rwanda reveni otoriti bwereka abasora bose uburyo bakikindurira ijambo banga kugira ngo amakuru yabo akomeze kurindwa ndetse bitume nta wundi muntu ushobora kuyinjiramo.

Icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, cyibutsa abishyura umusoro ku mutungo utimukanwa ko tariki yo kumenyekanisha yari mirongo itatu n'imwe Ukuboza za buri mwaka, hanyuma bakaba bamaze kwishyuraho tariki mirongo itatu n'imwe Mutarama z'umwaka ukurikira.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB, kugira ngo gifashe abaka serivisi muri iki kigo kuzibona bitaboroheye, ahubwo bagakoresha mudasobwa cyangwa telefoni igendanwa, mu kwaka zimwe na zimwe muri serivisi zitangwa n'iki kigo, badakoze urugendo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB, ni ikigo cya leta gishinzwe kwimakaza imiyoborere myiza mu nzego zitandukanye za leta ndetse n'izabikorera, uru rwego kandi rufite inshingano zo gutanga amahugurwa ndetse no guhugura no gutanga ubumenyi ku bijyanye n'imiyoborere mu bice by'abaturarwanda bitandukanye.

Ubukangurambaga bwakozwe na Leta ishishikariza abaturarwanda bose kumenya uko bakisabira serivisi zitandukanye mu nzego za Leta bakoresheje urubuga rw'irembo kandi bakoresheje amatelefoni agendanwa cyangwa mudasobwa ku bazifite. Ubu bukangurambaga kandi bugamije ko buri munyarwanda wese amenya kwisabira icyangombwa hadasabye ko ajya kuzisaba ahandi ngo agatakaza amafaranga acibwa ya serivise.

Ubutumwa bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, aho bwamenyekanishaga ingengabihe y'ukwezi kwa cumi n'biri. Aho tariki cumi n'eshanu, bibiri na makumyabiri na rimwe, yari tariki ntarengwa yo kuba wamaze kumenyekanisha umusoro ku nyungu, ndetse n'umusoro ku binyabiziga, n'andi matariki atandukanye.

Urubuga rw'ikigo cy'igihugu gitsura amajyambere arirwo RDB, ahatangirwa serivisi zitandukanye, harimo nko kwandikisha bizinesi ndetse no gusaba ibyemezo bigaragaza ko bizinesi yawe yanditswe.

Umunara w'itumanaho, ufasha kompanye zitanga serivise z'itumanaho mu Rwanda koroshya serivisi zabo ndetse no kuzigeza kure hirya no hino mu Rwanda, bifashishije iminara iri mu bice bitandukanye by'u Rwanda.

Urubuga rw'irembo ahatangirwa serivisi za leta zitandukanye, bidasabye ko umuntu ava aho aherereye, ahubwo agakoresha uru rubuga mu gusaba serivisi akeneye, harimo nko kwaka ibyemezo by'amavuko, ibyemezo by'uko umuntu ariho, n'ibindi bitandukanye, binyuze kuri uru rubuga rw'irembo.

Ibarurishamibare rigaragaza uko abaturage bagiye bakoresha murandasi ,kuva mu mwaka W'ibihumbi bibiri na cumi kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani mu Rwanda.

Icyapa cy'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority, aho cyakanguriraga abacuruzi kibahugura uko wabona inyemezabwishyu ya EBM, yo gukoresha muri mudasobwa cyangwa muri telefone.

Urubuga rwo kuri murandasi rwashyizweho n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda revenue authority, kugira ngo cyorohereze abasaba serivisi muri iki kigo kuba bazisaba bifashishije ikoranabuhanga, badakoze urugendo bajya aho iki kigo gikorera bityo bikanoza n'imitangire myiza ya serivisi.

Ahakorera umuegent utanga serivisi z'imari kizwi nka BK Rwanda aha ngaha ushobora kubona serivisi zitangwa n'iki kigo udasabye kujya aho gikorera ahubwo ukazikura kuri mgit w'iki kigo serivisi wabona harimo nko kohereza amafaranga kubitsa amafaranga kuyabikuza cyangwa se kureba ibyakozwe bidasabye kujya iki kigo gikorera ahubwo ukabikorera ku mu agent ukwegereye.

Itangazo ryatanzwe n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro, ryamenyekanishaga itariki ntarengwa yo kumenyekanisha umusoro ku bukode, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ndetse n'igihe ntarengwa cyo kuba umaze kwishyura ko ari taliki ya mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kwa mbere, bibiri na makumyabiri na gatanu.

Imashini ya EBM yifashishwa mu gutanga inyemezabwishyu ku mukiriya uguze ibintu himakazwa umuco mwiza wo kutanyereza imisoro kuyongeragaciro ni uburyo bwazani na guverinoma y'u rwanda cyane cyane binyuze mu gihe itanga serivisi z'imisoro n'amahoro rwanda revenuritse kugira ngo gifashe abacuruzi gutangayemezabwishyu ndetse no kubafasha kumenyekanisha umusoro ku nyungu bagize ku bicuruzwa bitabagoye.

Ubukangurambaga bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, aho bwakanguriraraga abantu ko bagomba kumenyekanisha umusoro ku bushake, mbere y'itariki makumyabiri n'eshatu z'ukwa cumi, umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Itangazo ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisusoro n'amahoro ryamenyekanishije ko hasigaye umunsi umwe gusa kugira ngo abasora bamenyekanishe umusoro w'ibihumbibiri na makumyabiri na kane mu gihe badaciwe amande kandi ko bagomba gutinda kumenyekanisha bari bucibwe amande.

Ubucuruzi bwifashisha murandasi aho umukiriya ashobora guhabwa serivisi hakoreshejwe ikoranabuhanga cyangwa se aka inyemezabwishyu' ikoranabuhanga bidasabye kumwandikira urupapuro bityo imisoro ikinjira neza mu kigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo gitanga serivisi z'ubwishingizi kizwi nka Buritamu inshuwarensi, iki kigo gitanga serivisi z'ubwishingizi haba ku binyabiziga, ku buzima, ku mazu ndetse n'ibindi bitandukanye, iyi serivise yo kandi kizwiho gukora neza kandi kikishyurira ku gihe abafatanyabikorwa bacyo iyo bibaye ngombwa ko bishyurwa.

Amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi avanwa ku miyoboro migari ashyikirizwa abaturage, kugira ngo abafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi, n'ibikorwa bakora bitandukanye, bikenera umuriro w'amashanyarazi. Amapoto kandi aba akozwe mu biti akenshi aho ageza umuriro mu baturage batuye hirya no hino mu gihugu.

Amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza insinga z'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu cyane cyane izitwara amashanyarazi acanira umuhanda kugira ngo abakoresha umuhanda bakomeze gukomeza gahunda zabonakomyi yewe na muke cya nijoro, aya mafoto kandi yakwirakwizwara amashanyarazi hirya no hino kuko hari abaturage babafatiraho umuriro w'amashanyarazi.

Amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, hafashwaho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwukura ku muyoboro ziwukwirakwiza hirya no hino mu bice by'ibihugu bitandukanye.

Imwe mu modoka zikoreshwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange mu mujyi wa Kigali, aho yoroshya imigenderanire hagati y'uturere n'umujyi wa Kigali ndetse n'intara, bityo abantu bakabasha kugenda ndetse no kuva ku kazi n'imirimo yabo ya buri munsi bitabagoye.

Amapironi ni kimwe mu byifashishwa n'ikigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG. Aho yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu hanyuzwaho amatsinga atwaye umuriro w'amashanyarazi ibi bikoroshya kandi bikihutisha iterambere ry'ibice byose by'igihugu aho abaturage baba bagerwaho n'umuriro.

Amapoto y'amashanyarazi ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG, mu kugeza umuriro w'amashanyarazi ku baturage benshi mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu muriro kandi ufasha abaturage mu kwiteza imbere haba mu buzima bwa buri munsi ndetse no kubona serivisi zitandukanye, zikenera gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Amafoto yifashishwa mu gukwirakwiza insinga z'umuriro w'amashanyarazi ava ku rugomero agera mu bice bitandukanye hirya no hino mu baturage, kugira ngo akoreshwe mu kwihutisha iterambere ndetse n'imibereho myiza by'abatuye muri utwo duce.

Amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu Gihugu, kugira ngo umuriro ugere kuri bose. Umuriro kandi ni ingirakamaro kuko wifashishwa mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi harimo: nko gutera ipasi, kogosha ndetse no gukoresha ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Ipironi ryifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu hafashwaho insinga zitwaye umuriro w'amamashanyarazi ziwukura ku rugomero ziwujyana mu gace runaka k'igihugu.

Umukozi w'ikigo gishinzwe ingufu ndetse n'amashanyarazi REG, iki kigo gifite inshingano zo gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu, himakazwa kuko buri muturarwanda wese agerwaho na serivisi z'umuriro w'amashanyarazi, bityo bikazamura urugero rw'imibereho ndetse akabona na serivisi zimunogeye aho ari hose mu gihugu.

Imiturire myiza y'abaturage batura ku mudugudu, aho bagerwaho n'ibikorwaremezo byose nk'amazi umuriro n'amashanyarazi ndetse bakaba bafite n'umutekano usesuye.

Amapiloni ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ingufu n'amashanyarazi rega, gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, avanwa ku rugomero aho aba yatunganyirijwe akohezwa mu bice bitandukanye by'igihugu.

Amapoto ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG, cyifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu. Umuriro w'amashanyarazi ufasha abaturarwanda kuzamura imibereho myiza, aho babona umuriro bakoresha mu gusaba serivisi zitandukanye, ndetse no gukora ibindi bikorwa bizamura imibereho yabo ya buri munsi.

Amazu akorerwamo ibikorwa bitandukanye by'iterambere ndetse bigamije no kuzamura ubukungu bw'igihugu, cyane cyane hibandwa ku bucuruzi. Aya mazu kandi atangirwamo serivisi zitandukanye aho umuntu ashobora kwiyogoshesha cyangwa gukoresha imisatsi n'inzara kandi akaberamo n'ubucuruzi buciriritse.

Umuriro w'amashanyarazi ni kimwe mu byihutisha iterambere ry'abatuye igihugu ndetse n'igihugu muri rusange aho ukoreshwa mu bikorwa bitandukanye. Nk'aho aho uri banyirawo babasha gukora imirimo ibafasha kwiteza imbere kandi ibabyarira inyungu harimo kugira imashini zisya, kogosha n'ibindi bitandukanye bikenera umuriro w'amashanyarazi.

Amapironi yifashishwa mu gukwirakwiza insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane ziyakura ku miyoboro migari ziyakwirakwiza hirya no hino mu gihugu, cyane cyane iyo hakoreshejwe urugendo rw'intera ndende, aya mapironi afasha cyane mu kugeza umuriro mu bice bya kure cyane by'igihugu, aho umuriro ukahagera neza bityo ubuzima bwabo bugakomeza nta nkomyi.

Amapiloni yifashishwa mu gukwirakwiza insinga z'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu, zifasha kugira ngo umuriro ugire usakare mu bice byose bigize igihugu nta mbogamizi zibayemo.

Amapoto y'umuriro w'amashanyarazi aho yifashishwa mu guhererekanya insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye tw'igihugu, bityo bigafasha abaturarwanda benshi kugerwaho n'umuriro mu bice barimo bitandukanye.

Amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi anyuzwaho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi uturuka ku rugomero ugezwa mu bice bitandukanye by'igihugu, aho ukenerwa mu buzima bw'abatuye hirya no hino mu gihugu mu gukora ibikorwa bibateza imbere ndetse no gukoresha ibikoresho bimwe na bimwe by'ikoranabuhanga.

Amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye by'igihugu, bityo bikazamura imibereho myiza y'abaturage bagerwaho w'amashanyarazi, ukabafasha mu gukora ibikorwa bizamura iterambere ryabo ndetse n'iry'igihugu muri rusange.

Amapoto ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'ikigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi REG. Aho yifashishwa mu gutwara insinga z'amashanyarazi, ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hirya no hino mu gihugu. Kandi adufasha mu kumurikira imihanda mu gihe cya nijoro, ku buryo ingendo zikomeza mu mutekano usesuye.

Icyumba cyagenewe gutegerezamo igihe umuntu yaka serivisi mu bijyanye n'ibintu bitandukanye aho ashobora gutegereza umukoresha cyangwa uwo yagiye kwaka serivisi mu gihe hari undi urimo kwakira bityo bikaba byamworohereza kubona aho abategerereje.

serivisi z'ubuvuzi ni zimwe mu zigaragaza imibereho myiza y'abaturage iteye imbere kandi n'iterambere ry'igihugu muri rusange, aho usanga abaturage bahabwa serivisi nziza z'ubuvuzi ndetse n'ikiguzi cyari cyose kitari hejuru cyane kuburyo zibasha kwishyurwa na buri Muturarwanda wese.

Imbangukiragutabara nii imodoka zifashishwa mu koroshya serivisi z'imibereho myiza, cyane cyane ku bakeneye serivisi z'ubuvuzi. Aho zifashishwa mu gutwara abarwayi, zibakura ku bitaro bimwe zibageza ku bindi kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi zisumbuye ku zo bari barimo bahabwa ndetse no mu bindi bihe bitandukanye, igihe habaye impanuka ndetse no mu bindi bihe byihutirwa ko umuntu abona ubuvuzi cyangwa ubutabazi bwihuse.

Imodoka y'imbangukiragutabara yifashishwa muri serivisi z'ubuvuzi cyane cyane hagizwe abarwayi kwa muganga cyangwa ibimugwa ku bitaro bimwe bajyanwa mu bindi kugira ngo bahabwe serivisi zisumbuye cyangwa se zitwara abarwayi bakomeretse mu bihe bitandukanye nk'ahabaye amakisida n'ibindi bibazo bitandukanye kugira ngo bagerweho serivisi z'ubuvuzi byihuse.

Ibitaro bya Kabgayi biherereye mu karere ka Muhanga intara y'amajyepfo, ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi zigezweho kandi zijyanye n'igihe nka kimwe mu bigaragaza izamuka ry'imibereho myiza y'abaturage, hashyirwa imbere ubuzima ndetse n'ubuvuzi muri rusange.

Hamwe mu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi bw'ibanze aho umurwayi cyangwa umuturarwanda ikibazo cy'ubuzima abasha kubona serivisi z'ubuzima bitamumusabye gukora urugendo rurerure kuko iyi serivisi yakwirakwijwe hirya no hino mu gihugu aho buri murenge byibuze ufite ikigo nderabuzima cyita ku bagize ibibazo by'ubuzima bitandukanye.

Imodoka yifashishwa muri serivisi z'ubuzima, izwi nk'imbangukiragutabara. Izi modoka zitanga serivisi mu gutwara abarwayi, zibakura ku bigo nderabuzima, zibageza ku bitaro cyangwa kubatwara zibakura ku bitaro bimwe zibageza ku bindi, kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi zisumbuye kuzo barimo bahabwa.

Imibereho myiza y'abatuye igihugu ni kimwe mu biranga iterambere ry'igihugu ndetse n'imiyoborere myiza, aho abaturage baba barindwa indwara n'ibyorezo bitandukanye binyuze mu guhabwa inkingo cyangwa izindi serivisi z'ubuvuzi zitandukanye, ibi kandi bikazamura imibereho myiza ndetse n'icyizere cyo kubaho mu batuye igihugu.

Imfungwa n'abagororwa bari mu magororero yo mu Rwanda, aho baba bavuye gukora imirimo itandukanye, harimo nko gukora ibikorwa by'ubuhinzi, cyangwa gukora imirimo imwe ni imwe yindi isimbura igifungo, baba barahawe mu gihe bagifungiye muri izo gereza.

Igazeti ya leta iba iririmo amategeko ndetse igihe yashiriwe igihe atajya gukurikizwa, ndetse n'ibyo aya mategeko akora asesengura ingingo ku ngingo igize buri tegeko, ndetse bigaragaza n'ibihano byafatirwa wakora ibikorwa binyuranyije n'itegeko.

Inama yahurije hamwe abaturage, aho umuturage ari kumanika akaboko agaragaza ko yahabwa umwanya ngo atange igitekerezo cye kugira ngo agire uruhare na we mu bimukorerwa.

Ikigo K'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwa kigiye gifite aho gikorera hatandukanye mu Rwanda. Hamwe muri ho ni gereza ya nyanza, ahafungirwa abakoze ibyaha bitandukanye kugira ngo bagororwe nyuma bagaruke muri sosiyete baze gutanga umusanzu wabo mu kubaka igihugu.

Imwe mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yari yateraniye mu nzu mberabyombi ya viraje urugwiro, aho bari bakiriye abayobozi mu nzego za leta mu buryo butandukanye kugira ngo bafashe kuzuza ndetse no gutanga serivisi neza izi nzego zitanga, hongerwa umubare w'abakozi kugira ngo ibyo bagambiriye gukora ndetse batange umusaruro mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Imfungwa n'abagororwa baba barahamijwe ibyaha runaka bakoze bityo bagashyirwa muri za kasho kugira ngo barangize igihano gitegekwa mu mategeko y'u Rwanda kuwakoze ibyo bintu baba bakoze.

Urwego rw'igihugu rwa polisi ni rumwe mu nzego zishinzwe umutekano w'abatuye igihugu, akenshi rukorera imbere mu gihugu. Aha ni hamwe rwari rufashe umunyabyaha ukekwaho gukora ibyaha kugira ngo agezwe imbere y'ubutabera akurikiranwe ku byaha yakekwagaho.

Ikirangantego cy'inkiko gacaca nka bumwe mu buryo bwashyizweho nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu gihumbi magana acyenda na mirongo icyenda na kane aho abakoze ibyaha muri jenoside baburanishirizwaga mu midugudu aho babikoreye bumva ubutangabuhamya ndetse n'ababashinjura.

Igitabo cy'igazeti ya leta kiba kirimo amategeko yose ahana ibyaha mu rwanda ndetse n'itegeko nshinga rigenderwaho mu gihugu, bityo bikayobora abakora mu nzego zitandukanye, hirindwa ko bakora ibiranyije n'itegeko ahubwo bose bagakora bajya mu murongo umwe n'itegeko, bikanoza imitangire myiza ya serivisee ndetse n'imibereho myiza y'abatuye igihugu.

Abacamanza bakemura amakimbirane mu gihe cy'urubanza nyuma yo kumva uruhande rw'ushinjwa ndetse no kumva nawe ko yiregura bagafata umwanzuro ubereye ndetse ukwiriye mu kunga abo bantu ndetse hifashishijwe amategeko.

Urwego rw'igihugu rw'ubucamanza aho barahirishaga abakozi bashyashya batangiye inshingano bababwira amabwiriza ndetse n'uko bazubahiriza gahunda bijyanye n'imirimo bari bashinzwe cyangwa batoye gukora muri uru rwego.

Urutonde rw'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane bashakishwa ku isi hose, aho banashyizweho igihembo cy'amafaranga ku muntu uzabasha kubagaragaza aho bari.

Urukiko gacaca nk'urukiko rw'ibanze rwakoreshwaga mu gihe cya nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, mu gihumbi magana icyenda mirongo icyenda na kane, aho rwaburanishaga abakekwaho gukora ibyaha bya jenoside hirya no hino mu gihugu ndetse abahamwe n'ibyaha bakoherezwa mu nkiko zo hejuru kugira ngo baburane ku bujurire ndetse n'ifungwa ku byaha bakoze.

Umukozi w'urwego rw'igihugu rwa Polisi, uko yari yaherekeje ukekwaho ibyaha bitandukanye agiye mu rukiko kugira ngo aburanishwe ku ifungwa n'ifungura, ndetse aniregure ku birego ashinjwa. Uru rwego kandi rukaba rukora n'izindi serivisi zitandukanye, nkaho harimo ishami ryo mu muhanda, ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'ayandi atandukanye.

Inama yahurije hamwe Minisitiri w'ububutegetsi bw'igihugu ndetse n'abayobozi bakuru mu nzego z'umutekano mu Rwanda, baganirira hamwe ku bibazo by'umutekano ndetse n'uburyo bakomeza kurinda ubusugire bw'igihugu, hirindwa uwahungabanya umutekano wacyo.

Umukozi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, aho baba bafite inshingano zo kugenzura ko abakoresha umuhanda bose bawukoresha neza kandi mu buryo buboneye hatagize urenga ku mabwiriza n'amategeko bigenga umuhanda ndetse kugira ngo himakazwe umutekano usesuye wo mu muhanda.

Imodoka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imfungwa n'abagororwaho ikoreshwa mu gutwara abaturage bakoze ibyaha bitandukanye haba kubakuraho ababikoreye cyangwa kubakuraho bacumbikiwe mu gihe hategerejwe gikorwaho iperereza bajyanwa mu nkiko ikoroshya ingendo muri iki kigo.

Igikoresho kizwi nka kizimyamwoto cyifashishwa mu gutabara ahabaye inkongi y'umuriro kizimya umuriro kandi iki gikoresho ni ngombwa ko kiba kiri kuri buri nyubako ihurirwamo abantu benshi kuko hashobora kuvuka impanuka itunguranye inkongi y'umuriro bityo kikaba cyakifashishwa mu kuzimya iyo nkongi y'umuriro.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutabazi, aho bari baje gufasha mu kurwanya impanuka y'inkongi umuriro, yari ibaye mu nzu y'ubucuruzi bifashishije ibyuma barebe ndetse banambaye imyenda ibarinda kuba bagira ibibazo, mu gihe bari mu kazi kabo ka buri munsi.

Igikoresho kizwi nka kizimyamwoto cyifashishwa mu kurwanya impanuka z'inkongi z'umuriro, kikaba kigomba kuba kuri buri nyubako kugira ngo cyifashishwe igihe haba habaye impanuka y'inkongi z'umuriro.

Abakozi b'ikigo gishinzwe gutanga serivisi z'ubutabazi bwihuse, aho bari barimo gutanga serivisi y'ubutabazi mu kuzimya inkongi y'umuriro yari yibasiye ikinyabiziga gitwara ibicanwa n'ibikomoka kuri peteroli, ikagira impanuka mu nzira. Abakozi kandi bafasha mu kuzimya inkingi y'umuriro yaba izibasira inzu zo kubamo, inzu z'ubucuruzi n'ahandi hatandukanye, biri ngombwa ko batanga ubutabazi.

Bamwe mu banyeshuri bagize ikigo cy'amashuri ubwo bahabwaga amahugurwa y'uburyo batanga ubutabazi bw'ibanze mu gihe havutse impanuka cyane cyane zishingiye ku nkongi y'umuriro w'amashanyarazi, batozwa gukoresha ibikoresho byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro bizwi nka kizimyamwoto.

Amatora aboneye kandi anyuze mu mucyo ni kimwe mu biranga amahame ya demokarasi, aho umuturage yihitiramo umuyobozi mwiza, abona umubereye agendeye ku migabo n'imigambi ye ndetse no ku byo yumva azamugezaho, ibi kandi bigakorwa mu muhezo nta we uhatiwe gutora umukandida cyangwa umuyobozi runaka.

Nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Polo Kagame mu mwambaro w'umuryango wa Efuperi inkotanyi ndetse n'abayoboke bawo, aho bari bahuriye hamwe baganira ku byo umuryango ugomba gukora ndetse no kubakandida bagombaga gutanga mu kwiyamamaza mu gihe cy'amatora.

Abanyarwanda b'ingeri zose bo mu mujyi wa Kigali ubwo bari bazindukiye ku cyumba cy'itora kugira ngo bihitiremo umuyobozi ubakwiriye uzabafasha kugera ku ntego nyuma yo kumva imigabo n'imigambi y'abakandida bari bagiye biyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Umuturage asobanurirwa amategeko n'amabwiriza, mbere yuko ahabwa urupapuro rw'itora, kugira ngo yitorere umuyobozi umubereye kandi yihitiyemo. Uzamugeza ku iterambere yifuza.

Abanyamuryango b'ishyaka FPR inkotanyi ndetse n'umukuru waryo nyakubahwa Paul Kagame ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu abwira abanyamuryango imigabo n'imigambi ndetse n'ibyo azabagezaho nibamugirira icyizere bakamutora.

Umukandida Mpayimana Philippe wahataniraga umwanya w'umukuru w'igihugu mu mwaka ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, ubwo yabwiraga abaturage ibyo yazabagezaho, baramutse bamugiriye icyizere bakamutora ndetse anabereka imigabo n'imigambi ye.

Umuyobozi mukuru w'urukiko rw'ikirenga ubwo yashyikirizaga bimwe na bimwe mu birango by'igihugu ndetse n'itegeko nshinga nyakubahwa perezida Paul Kagame ubwo yari amaze kurahirira kuyobora u Rwanda mu mwaka wi'ibihumbi mbibiri na makumyabiri na kane nyuma yo gutorwa n'abaturage.

Imibare ya minisiteri y'ubuzima yagaragazaga uko imibare yatangirwa serivisi z'ubuvuzi izaba ihagaze mu mwaka ibihumbi nacumi na kabiri kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani kuva ku rwego rw'umudugudu kugeza ku rwego rw'igihugu.

Minisitiri ufite uburezi mu nshingano ze muri minisiteri y'uburezi, aho yarimo ageza ku bayobozi b'iyi minisiteri ndetse n'abakozi bayo, ibikorwa bigize ingengabihe y'umwaka'amashuri, ndetse n'ibyo bazibandaho cyane cyane bareba n'ibyari bimaze kugerwaho, mu gihe bari barimo bakoraye nama.

Nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame aho yari yitabiriyeye amatora nk'abandi banyarwanda bose batandukanye mu gihugu ubwo bitoreraga abayobozi bagize inzego z'abadepite ndetse na nyakubahwa perezida wa repubulika mu Rwanda.

Abayobozi mu nzego za leta basinye amasezerano y'abikorera kugira ngo serivisi batanga zibashe kunozwa kandi nabo bagiremo uruhare, bityo abaturage babashe kugerwaho na serivisi zibanogeye kandi ku gihe binyuze mu bufatanye bw'aya masezerano bari barimo gusinya.

Abayobozi mu nzego zitandukanye ubwo bafataga ifoto y'urwibutso nyuma yo gukora inama bungurana ibitekerezo ndetse barebera hamwe icyazamura iterambere n'imibereho myiza by'abaturage mu ngeri zitandukanye iyi nama ikaba yabereye mu mujyi wa Kigali.

Abagize ishyaka rya girini pati rikorera mu Rwanda bayobowe n'umuyobozi wabo mukuru, aho biyamamarizaga ku mwanya wo kuyobora igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri bibiri na makumyabiri na kane.

Igishushanyo cyerekana uko imihigo izagenda ihigurwa ndetse n'igihe bizagenda bifata kugira ngo ihigurwe nkuko byaganiriweho n'abakozi ndetse n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Gakenke, mu nama yari yabahurije hamwe, barebera hamwe imihigo batanze ndetse n'aho bageze bayesa.

Abanyamuryango bagize ishyaka rya Girini pati Rwanda, aho ryimakaza imiyoborere myiza ndetse no kwita ku bidukikije. Uko basobanurirwaga imigabo n'imigambi y'umuryango ndetse bigira hamwe n'ibyakongerwamo, ingingo ngenderwaho z'umwaka mushya bari batangiye.

Igishushanyo kigaragaza uko inzego z'imiyoborere zigiye zisumbanywa uhereye ku rugo ukazamuka ukageza ku karere, aho akarere kagabanyijemo imirenge, imirenge n'ayo ikagabanywamo utugari ndetse n'utugari tukagabanywamo, imidugudu imidugudu ikabarurwamo abaturage cyangwa se ingo ziyituyemo.

Abayobozi mu nzego zitandukanye za Leta, aho barahiriraga gutangira ndetse no gukora imirimo n'inshingano bari bashinzwe gukora, imbere y'abaturarwanda bose muri rusange, aha ngaha bemeza ko bemeye ntagahato ndetse bakanemera ko bazagenda bakora inshingano nk'uko babishinzwe, ndetse bubahirizwa uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.

Abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari, ni bamwe mu batanga serivise zo koroshya ingendo hirya no hino mu Rwanda, aho kandi nabo biteza imbere binyuze mu kazi bakora bakabasha kwizigamira kwishyura ubwisungane mu kwivuza ndetse no gukemura ibindi bibazo bimwe na bimwe bahura n'abyo mu buzima bwa buri munsi.

Igare ni kimwe mu binyabiziga byifashishwa n'abakora umwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi kuko abafasha mu kazi kabo ka buri munsi cyane cyane bayakoresha mu kugeza umusaruro wabo ku isoko ndetse no kugeza ibikoresho bikenewe aho bakorera imyuga ribafasha kandi mu ngendo zabo bajya cyangwa bava aho bakorera iyi mirimo yabo ya buri munsi.

Imodoka zikoreshwa mu gutwara imizigo, zifasha abaturarwanda mu koroshya ingendo, haba mu kugeza imisaruro yabo hirya no hino ku isoko, ndetse no gutwara ibicuruzwa babivana ahantu hamwe babijyana ahandi bitabagoye.

Imodoka zifashishwa mu gukora ingendo mu buryo bwihariye, yaba ku bazikodesha ngo bazijyane mu bukwe, ibirori n'ahandi hatandukanye, zizwiho kandi koroshya ingendo, mu mujyi wa Kigali ndetse no hirya no hino mu gihugu, aho uyikeneyera ayikodesha amafaranga make, mu gihe cy'umunsi, ikamutwara mu ngendo ze zose.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'ikigo ya Litiko. Aho iyi kompanyi itanga serivisi z'ingendo zihuza cyane cyane umujyi wa Kigali n'uturere dutandukanye, ibyo bikoroshya ubuhahiranire hagati y'intara ndetse n'umujyi wa Kigali ndetse bikanoroshya ingendo.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya no hino mu mujyi wa Kigali, zikoroshya imigenderanire yaba ku bakozi bajya ku kazi, abanyeshuri bajya ku mashuri ndetse n'abandi bantu b'ingeri zitandukanye mu bikorwa byabo bya buri munsi.

Moto zagenewe gutwara imizigo zizwi ku izina rya Lifani, izi moto zoroshya ubuhahiranere ndetse n'ubutwereranire hagati y'uturere dutandukanye ndetse n'umujyi wa Kigali, aho zifashishwa mu gutwara ibicuruzwa cyangwa se umusaruro bikomoka ku buhinzi cyane cyane mu bice by'icyaro.

Imodoka nini zitwara imizigo aho zifasha abanyarwanda mu buzima bwabo bwa buri munsi, harimo nko koroshya imihahiranire hagati y'uturere, hagati y'ibihugu duturanye cyangwa se n'abandi bashaka kugeza umusaruro wabo ku isoko yifashisha izi modoka.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange zikorera mu mujyi wa Kigali ndetse zikaba zishobora no kujya hirya no hino mu ntara, aho uzifasha mu koroshya ingendo hagati y'uduce runaka bityo abantu bakabasha guhahirana mu buryo bworoshye.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya no hino mu mujyi wa Kigali. Izi modoka zikaba zitwara umubare munini w'abagenzi, bityo bikoroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane mu duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Zifasha kandi cyane abajya mu kazi hirya no hino bitabagoye ndetse bakagerera ku kazi igihe.

Imodoka zitwara imizigo cyane cyane hibandwa ku bikoresho byo mu bwubatsi aho zifashishwa mu gutunga imicanga amabuye'amabati amasima ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa cyane cyane mu bwubatsi izi modoka kandi zikaba zifasha n'abandi bakene gutwara ibicuruzwa ndetse n'ibintu byinshi icyarimwe.

Imodoka zifashishwa mu koroshya ingendo n'ubuhahiranire haba rwagati mu mujyi wa Kigali cyangwa se hagati y'uturere ndetse n'umujyi wa Kigali izi modoka zirakodeshwa zikakugeza aho ujya bikoroheye kandi ku giciro gito.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ya sosiyete ya ara efu tisi egisipurezi (RFFTC Express) izi modoka zifashishwa mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranire hagati y'umujyi wa kigali ndetse n'uturere bityo abagenzi bakabasha kujya ndetse no kuva mu ntara nta nkomyi.

imodoka za rukururane zifashishwa mu gutwara imizigo bavana ahantu hamwe zijyanwa ahandi izi modoka zifashishwa cyane cyane mu bijyanye n'ubucuruzi aho abacuruzi bashobora kurangura ibicuruzwa bakabivanaho babiranguriye babigeza aho babicururiza bitabagoye bifashishije ibinyabiziga

Imodoka zikoreshwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, izi modoka zikaba zikora rwagati mu mujyi cyangwa se zikakora hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'intara. Izi modoka kandi zizwiho koroshya imigenderanire bikoroshya imitangire myiza ya serivisi ku bijyanye n'ingendo.

Imodoka nini yagenewe gutwara imizigo cyane cyane yifashishwa mu koroshya ingendo mu mujyi wa kigali ndetse n'uturere tuyituriye aho yifashishwa cyane cyane mu kugeza ibicuruzwa ku isoko ndetse n'abava kubirangura bakarusha kubitwaramo babigeze hirya no hino hatandukanye aho babicururiza.

Imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, hirya no hino mu mugi wa Kigali ndetse n'ingendo zihuza umugi wa Kigali n'intara aho byoroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranire bityo abantu bakanyurwa na serivise z'ingendo ku giciro gito kandi kibanogeye.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kimwe mu bisubizo bihari byo koroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranire hagati y'uturere n'utundi, ibi kandi bigafasha mu koroshya ingendo aho abaturage babasha ndetse bakava hirya no hino mu bice by'igihugu bitabagoye kandi ku giciro gito ugereranije no kugenda mu zihariye.

Imodoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu gukemura ikibazo cy'ingendo hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse n'ingendo zihuza umujyi wa Kigali n'Intara, aho leta yashyizemo nkunganira mu kugira ngo ingendo zoronshwe bityo abakora akazi ndetse n'abakoresha imihanda boroherwa no kubona serivisi y'ingendo bitabagoye.

Imodoka yasosiyete itanga serivisi zo gutwara abantu hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu ntara y'ikigo cya sitera. Izi modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyane cyane zibajyana mu byerekezo by'intara y'iburasirazuba ihuza n'umujyi wa Kigali.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange y'ikigo gisanzwe gitanga serivisi yo gutwara abagenzi mu buryo rusange cya Alpfa izi modoka zifashishwa mu koroshya ingendo hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'uturere dutandukanye tugize igihugu abagenzi bagenda mu modoka za rusange.

Umwe mu mihanda ya Kigali yifashishwa n'abakoresha ibinyabiziga bitandukanye imodoka, amapikipiki ndetse n'amagare mu koroshya ingendo zabo za buri munsi, iyi mihanda kandi ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi amurikira imihanda mu gihe bwije bityo ingendo zigakomeza nta kibazo.

Abamotari batwara abagenzi bifashishije ipikipiki aho boroshya ingendo haba ku baturarwanda bari mu byiciro bitandukanye mu Rwanda kugira ngo babashe koroshya ubuhahiranere ndetse n'imigendererane hagati y'uduce dutandukanye tw'igihugu.

Imodoka zifashishwa mu kugeza ibicuruzwa ku babiguze zikaba zikunze kugirwa n'amakapani y'ubucuruzi ndetse n'amahoteli aho ziborohereza kugeza ibicuruzwa ku babiguze ndetse no kugeza amakomande kuba yatanze bitabagoye cyane bidasabye ku bajya gutunda umurongo aho ibyo kigo cyangwa iyo company ikorera.

Imodoka nini zitwara imizigo zizwi nk'amakamyo, izi modoka zigira uruhare mu koroshya ubuhahiranire hagati y'uturere n'Umujyi wa Kigali ndetse no hagati y'ibihugu, aho zitwara ibintu byinshi icyarimwe, zibivana cyangwa zibijyana ahantu hatandukanye, aha twavuga nko kugeza umusaruro mu bihugu by'amahanga, ibi bikoroshya ubuhahiranire ndetse n'ubutwereranire hagati y'ibihugu.

Imodoka zifashishwa mu gutwara imizigo izwi nka kamyo, akenshi iyi modoka yifashishwa mu gutwara ibikoresho by'ubwubatsi nk'amabuye, umucanga, sima, amabati, ibyuma, ibiti, n'ibindi bitandukanye bikenerwa mu gikorwa cy'ubwubatsi.

iImodoka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru mu Rwanda rba. Iki kigo gitanga serivisi z'itangazamakuru, kikaba gifite radiyo ndetse na tereviziyo bikorera hirya no hino mu gihugu, bityo bigatangaza amakuru yose y'uko igihugu gihagaze umunsi ku wundi.

Imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo hirya no hino mu gihugu aho cyane cyane yifashishwa mu bucuruzi aho ifasha abarangura ibintu byinshi mu ngano nyinshi kuba yabibagereza aho babicururiza bitabagoye kandi ikoroshya n'ubuhahirane hagati y'umujyi wa Kigali n'intara ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange hirya no hino mu gihugu zikoroshya ingendo ndetse n'imihahiranire hagati y'uturere n'utundi cyangwa se uduce tumwe n'utundi kandi zikifashishwa mu bikorwa bimwe na bimwe bikenera gutwara abantu benshi icyarimwe amako n'ibindi bitandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso yifashishwa mu gutwara imizigo, iyi modoka ikoreshwa cyane n'abari mu mishinga y'ubwubatsi, aho ibafasha kugeza ibikoresho bitandukanye ku mashansiye harimo amabuye, amatafari, imicanga, ibiti ndetse n'ibindi bakenera mu bikorwa byabo bya buri munsi by'ubwubatsi.

Imodoka nto zifashishwa mu gutwara imizigo hirya no hino mu Rwanda, Aho zifashishwa mu gukora imirimo itandukanye, harimo kugeza umusaruro ku isoko mu gutwara ibicuruzwa hirya no hino ndetse no koroshya ingendo n'ubuhahirane hagati y'utu duce tugiye dutandukanye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bw'umwihariko hirya no hino mu gihugu bityo bikoroshya imigenderanire ndetse n'imitangire myiza ya serivisi, aho umugenzi abona serivisi imunogeye kandi yihuse.

Amagare ni kimwe mu binyabiziga bidakoresha moteri byifashishwa n'abantu mu ngendo zitandukanye za buri munsi, ubu zifasha bamwe kugera ndetse no kuva ku kazi yewe n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi ku magare bakabasha gutunga imiryango yabo bityo bikazamura imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'igihugu.

Ikigo gikorerwamo serivisi zo gutega ku mikino y'amahirwe kizwi nka fotebeti, aho abakiriya bagenda bagatega ku mikino itandukanye, yaba iy'umupira w'amaguru, umupira w'amaboko, amafarasi, utudege ndetse n'ibindi bitandukanye, hose hagakorerwa ibihembo ku babashije gutsinda neza, batombora, ibikorwa bikaza guhura n'ibyabaye.

Umwe mu mihanda ya kaburimbo igezwe mu mujyi wa Kigali hifashishwa n'abakoresha ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru mu koroshya ubutwererane imigenderanire hagati y'uduce dutandukanye'imihanda ikarimbishijwe n'ubusitani bwiza ndetse n'amatara yo ku muhandawuumurikira mu gihe bwije ingero zigakomeza nta nkomyi.

Imodoka nini zitwara imizigo zizwi ku izina rya rukururane izi modoka zifashishwa mu gutwara ibicuruzwa ndetse no koroshya ubuhahirane hagati y'ibihugu aho n'ibicuruzwa biva hanze y'igihugu bishobora kunyuzwa muri izi modoka biva ku byambu byinjizwa imbere mu gihugu.

Imodoka yifashishwa mu gutwara imizigo iyivana ahantu hamwe iyijyana ahandi. Yifashishwa cyane mu bikorwa by'ubwubatsi aho itwara ibikoresho nkenerwa nk'amatafari, umucanga, amabuye ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu bwubatsi ibikuru ahantu hamwe ibijyana ahandi cyane cyane biva kugurwa bijyanwa ku ishansiye aho bikenewe gukoreshwa.

Moto zagenewe gutwara imizigo zizwi ku izina rya rifani, aho zifashishwa mu bikorwa bitandukanye bya buri munsi akenshi bijyanye no gutwara imizigo, zifashishwa cyane cyane mu bice by'icyaro abahinzi bageza umusaruro ku isoko cyangwa bageza ibikenerwa bimwe na bimwe mu kazi kabo aho bikenewe.

Amagare ni kimwe mu binyabiziga bikoreshwa cyane cyane mu bakora umwuga w'ubuhinzi ndetse n'ubworozi aho abafasha mu kazi kabo ka buri munsi ibyo abafasha harimo kugeza umusaruro wabo ku isoko bitabagoye harimo kandi kugeza ku mirima yabo ibikoresho nkenenerwa mu kazi kabo ka buri munsi ndetse no kubafasha ubwabo kugera aho bakorera akazi n'ibindi bitandukanye.

Ingorofani ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abakora umwuga wo gutwara imizigo hirya no hino mu masoko ndetse no mu mujyi aho bayikoresha mu gutwara imiziga umuntu ata akabayikorera ahubwo akayishyiraho akayisunika zifashishwa cyane cyane mu gukora ingendo ntoya abantu batwaye ibicuruzwa cyangwa ibindi nkenerwa.

Moto zifashishwa mu gutwara imizigo hirya no hino mu mujyi ndetse no mu ntara, aho zifashishwa mu gutwara ibikoresho ndetse n'ibicuruzwa bijyana hirya no hino mu gihugu, izi moto kandi zifashishwa n'abahinzi mu kugeza umusaruro ku isoko ndetse no kubawukeneye.

Moto zikoresha amashanyarazi, ni zimwe mu ziri gutezwa imbere mu Rwanda muri iki minsi, aho zifite uruhare runini mu kugabanya imyuka ihumanya ikirere. Izi moto kandi zifashishwa mu gutwara abagenzi, zibavana ahantu hamwe zibagezaho ahandi cyane cyane abari mu bikorwa by'ubucuruzi ndetse n'imirimo yabo bitandukanye ya buri munsi.

Imodoka y'ikamyo itwara imizigo cyane cyane i kure mu bice bimwe na bimwe bigera ku kindi kizifashishwa cyane cyane ku bahinzi aho babatwara umusaruro wabo bageze ku isoko cyangwa bajya kugura amafumbire n'ibindi bikoresho bakeneye bikorwa byabo bya buri munsi bityo bakifashisha ibi binyabiziga.

Amagare ni kimwe mu bikoresho byifashishwa n'abakora ubucuruzi buciriritse, aho abafasha mu kuyirangura ndetse no kugeza ibicuruzwa bimwe na bimwe aho bakorera, aya kandi akagira umumaro abayatwara kuko atuma babona amafaranga yo kubatunga ndetse no gukemura ibibazo bimwe na bimwe by'ubuzima bwa buri munsi.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, bityo bikoroshya imigenderanire hagati y'uturere, intara, ndetse n'abaturage muri rusange bakabasha guhahirana bitabagoye.

Imodoka zifashishwa mu gutwara imizigo zikaba zifashishwa mu bucuruzi bw'ibicuruzwa bitandukanye hirya no hino mu gihugu, haba abacuruzi bava kurangura cyangwa se abahinzi bageza umusaruro wabo ku isoko bityo bikazamura ubukungu bw'igihugu.

Umwe mu mihanda ikoreshwa n'abatwara abagenzi mu buryo bwa rusange cyangwa bwihariye mu mujyi wa Kigali, byifashishwa mu koroshya ingendo n'ubuhahirane hagati y'uduce tumwe na tumwe n'utundi, iyo mihanda kandi ikaba iriho amatara ayimurikira mu gihe cya n'ijoro bityo ingendo zigakomeza ntankomyi.

Kigali ka furi zone ni kamwe mu duce tw'umujyi wa kigali twagenewe kugendwamo n'amakuru abantu bagendamo batembera bareba ubwiza bw'umujyi wa kigali, ndetse kandi babona serivisi zitandukanye muri aka gace, aha nta modoka yemerewe kugendamo cyangwa ipikipiki ahubwo bagendamo bagenda n'amaguru cyangwa bakagenda n'amagare.

Umuhanda wagenewe gukoreshwa n'abakora siporo, mu buryo bwa rusange cyangwa se ubantu ku giti cyabo, aho uyu muhanda ufasha abatuye mu Mujyi wa Kigali gukora siporo ndetse bagakoresha imihanda batahura n'ibinyabiziga, bakaba bafite inzira yabo bonyine, bagenewe yo gukoresha idakoreshwa n'ibindi binyabiziga, ahubwo igakoreshwa n'abakora siporo.

Kimwe mu bibuga by'umupira w'amaguru biba hano mu Rwanda, ahakorerwa imikino itandukanye ndetse hakakirwa n'amarushanwa yo ku rwego rutandukanye, aho kandi abaturarwanda bakorera siporo kugira ngo basigasire ubuzima birinda indwara zitandura.

Icyapa kiyobora abakoresha ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru bakoresha imihanda mu Mujyi wa Kigali ndetse n'ahandi hatandukanye mu Gihugu, kimenyesha umuyobozi w'ibinyabiziga ko imbere gato hari ikigo gishobora gutanga serivisi z'ubuvuzi, haba Ibitaro cg se Ikigo Nderabuzima.

Icyapa kiyobora abatwaye ibinyabiziga bakoresha umuhanda kibabwira ko imbere gato, hari ahagenewe kwambuka n'abanyamaguru bityo bakamenya ko bagomba kugabanya umuvuduko kugira ngo abanyamaguru bambuke umuhanda, ibibi bikarinda impanuka ndetse bikongere n'umutekano wo mu muhanda.

Igororero rya nyamagabe ni rimwe mu maguriro ari mu Rwanda, aho abakoze ibyaha bajyanwa bagahabwa ubumenyi ndetse bakanagororwa mbere y'uko bagaruka muri sosiyete hakurikijwe amategeko y'u Rwanda.

Icyapa cyo ku muhanda kiyobora abakoresha umuhanda yaba abatwara ibinyabiziga cyangwa abakene n'amakuru kimenyesha ko imbere gato hari akayi kagenewe kwambukirwamo n'abanyamakuru bityo abatwa ibinyabiziga bakaba basaba kugabanya umuvuduko bibi bikarinda impanuka zo mu muhanda za hato na hato.

Icyapa kimenyesha abatwara ibinyabiziga haba amapikipiki ndetse n'amamodoka ko aho bageze ari muri parikingi. Aho imodoka ziparika zigategereza kuba zahava, zigenda. Iyi parikingi kandi imenyesha abayobozi b'ibinyabiziga bose ko aho bageze bemererwa kuba baparika kandi bagaparika neza umutekano wabo usesuye.

Icyapa kiyobora abatwaye ibinyabiziga bakoresha imihanda, kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko mu muhanda imbere aho bari kwerekera harimo gutunganywa umuhanda barimo gukoresha, bityo bakaba bakwitwararika mu gihe bakoresha umuhanda bikagabanya impanuka.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bose bakoresha umuhanda ko nta mwanya wo guparikamo bisi uhari. Ibi ngibi bikanoza umutekano wo mu muhanda, hirindwa impanuka za hato na hato.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko imbere gato hari akayira kagenewe abanyamaguru bityo ko bagomba kugabanya umuvuduko ibi bigafasha mu kugabanya impanuka zo mu muhanda bityo umutekano mu muhanda ugakomeza kuganza.

Icyapa cyo ku muhanda munini wa kaburimbo, uva i Kigali ujya i Huye, aho kiyobora ibyerekezo bitandukanye, aho kigaragaza ko ukomeje imbere uba werekeza ku Kanyayaru mu karere ka Huye ndetse na Muhanga, naho ukatiye ibumoso uba ujya mu karere ka Ruhango ahazwi nka Kinazi.

Icyapa kiyobora abanyamaguru ndetse n'abatwara ibinyabiziga bakoresheje umuhanda kigaragaza ko imbere gato hari ahagenewe akayira ka abanyamaguru bambukira umuhanda hazwi ku izina rya zebura korosingi, bityo umuyobozi w'ikinyabiziga akaba agomba kugabanya umuvuduko igihe ageze kuri bene iki cyapa.

Umuhanda wo mu mugi wa Kigali urimbishijwe n'ubusitani mu muhanda, Ibi bigaragaza ubwiza bw'umugi wa Kigali kigali ndetse n'amatara yo ku mihanda amurikira uwo umuhanda mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza gukorwa ntagihindutse.

Icyapa cyo ku muhanda wa kaburimbo kiyobora abatwaye ibinyabiziga kibamenyesha ko imbere gato hari ikigo cy'amashuri, bityo ko bagomba kwigengesera bakagabanya umuvuduko kugira ngo hirindwe impanuka zo mu muhanda za hato na hato.

Icyapa kiyobora abakoresha umuhanda bakoresheje ibinyabiziga cyangwa bagenda n'amaguru, kibereka ko binjiye mu gihugu cy'u Rwanda, aho kiba kibaha ikaze. Ibi byapa biri hirya no hino, cyane cyane ku mipaka, aho umuntu aba akinjira mu gihugu, kikamumenyesha ko yamaze kwinjira mu gihugu.

Icyapa cyo ku muhanda kimenyesha abayobozi b'ibinyabiziga ko aho bageze umuvuduko ntarengwa ari kilometero mirongo ine ku isaha kugira ngo umutekano wo mu muhanda ukomeze kubahirizwa kandi abakoresha umuhanda bose bawukoreshe mu buryo bungana kandi himakazwa umutekano usesuye wo mu muhanda.

Ubucuruzi buciriritse ni bumwe mu rwego rufasha kuzamura imibereho myiza y'abaturage ndetse n'iterambere ry'igihugu muri rusange, aho usanga abakora bene ubucuruzi biteza imbere mu buryo butandukanye, bakorera amafaranga kandi batanga umusaruro ku gihugu, bityo bikazamura iterambere ryabo n'iry'igihugu muri rusange.

Inyubako ikorerwamo na farumasi Digine A. Aho ushobora kubona serivisi z'ubuvuzi ndetse n'ubutabazi bw'ibanze. Aho ushobora kugurira imiti wandikiwe na muganga, yewe ndetse n'ufite ibimenyetso bitandukanye, akaba ashobora kugura imiti yoroshya uburibwe ndetse n'ububabare, mu gihe ategereje kugera kwa muganga.

Igishanga cya Nyandungu kizwiho kugira inyoni nyinshi, bityo kigakurura ba mukerarugendo ndetse n'abaturarwanda, baza gutembera muri parike cyane cyane igizwe n'inyoni. Iyi parike kandi ifasha abantu bakeneye kuruhuka mu mutwe, ndetse itanga n'izindi serivisi, harimo nk'imikino y'abana, kwidagadura, serivisi z'amacumbi, n'ibindi bitandukanye.

Imiturire myiza ni imwe muri politiki za leta yashyizwemo imbaraga cyane, aho yakanguriraga abaturarwanda bose gutura ku midugudu aho bagerwaho n'amazi meza, umuriro ndetse n'amashanyarazi. Kandi bakabarinda impanuka ndetse n'ibiza bya hato na hato byari bibasange mu miturire mibi harimo nk'imyuzure, inkangu n'ibindi.

Kiyosike ikoreramo umukozi wa sosiyete itanga serivisi z'itumanaho mu Rwanda ya emutiyeni, aho abakozi baba batanga serivisi zimwe na zimwe zitangwa n'iyi kompanyi ndetse abakiriya bakazibona bitabagoye kandi bidasabye ko bajyaho ibi bigo bikorera ahubwo bakazibonera kubagenti babegereye hirya no hino mu gihugu.

Umwuga wo gutwara abantu kuri moto ni umwe mu myuga itunze abantu benshi mu mujyi wa Kigali ndetse no mu Rwanda hose muri rusange uyu mwuga kandi ukagira uruhare runini mu kwihutisha iterambere ndetse n'imigenderanire hagati y'uduce tumwe n'utundi aho ifasha abakeneye serivisi zo kuvanamo bajya ahandi, kwiyuhagira byihuse kandi bitabahenze.

Inzu nini ikorerwamo ubucuruzi ibintu bitandukanye, Angilikani Rwanda izwi iherereye mu mujyi wa kigali aho ikoreramo ubucuruzi bugiye butandukanye habwa abacuruzi biribwa abacuruza imyambaro abacuruza ibikoresho byo mu rugo, abacuruza imiti n'ibihugu bitandukanye. Muri make iyi bingana n'isoko aho habacuruzwamo ibintu bitandukanye byose ku buryo ibikenewe bikuri ku nyubako umwe adakoze urugendo avanwe ajya ahandi.

Imiturire ijyanye n'igihe himakazwa igishushanyo mbonera ni ikintu cy'ingenzi cyane mu kurimbisha umujyi. Aha ni hamwe mu mujyi wa Kigali aho abaturage bubatse bakurikije igishushanyo mbonera bityo bigakomeza kurimbisha umujyi ndetse bikazamura n'ubwiza bw'umujyi n'iterambere ry'abawutuye.

Amatara yo ku mihanda amurika mu gihe cya nijoro ni kimwe mu bikorwa remezo byashyizweho na leta y'u Rwanda mu kugira ngo hanozwe umutekano wo mu muhanda cyane cyane mu gihe cya ninjoro ibi kandi bifasha abakoresha umuhanda yaba abatwara ibinyabiziga ndetse n'abagenda n'amaguru kugenda bisanzuye kuko haba habona neza ndetse ntacyo bikanga mu muhanda.

Ubwiza bw'igishanga cya Nyandungu gitanga serivisi z'ubukerarugendo ku bashaka gutembera mu bikorwa bitandukanye birebera inyoni ndetse n'ibindi bidukikije, aho biba muri iki gishanga cya Nyandungu. Hazwiho kandi kuba hafite imihanda myiza, ikoze neza ndetse no kwakira neza abaje babagana.

Umutungo utimukanwa ugizwe n'inzu iherereye mu Karere ka Gasabo mu Mujyi wa Kigali, aho iyi nzu yakoreshwa ibikorwa bitandukanye, yaba ibibyara amafaranga cyangwa se ikaba yaturwamo, iyi inzu kandi igerwaho n'ibikorwa remezo byose nk'amazi meza, imihanda ndetse yegereye amavuriro.

Rimwe mu masangano y'imihanda y'umujyi wa Kigali aho imodoka ziba zijya zinava mu byerekezo bitandukanye, aho kandi dusangaho amatara yo ku muhanda azwi nka feruje ayobora ibinyabiziga yemerera ibijya mu cyerekezo runaka gukomeza mu gihe ibindi biba bitegereje, ibi bikagabanya impanuka zo mu muhanda ndetse bigashyira imbere imikoreshereze myiza y'umuhanda.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ni kimwe mu bisubizo byashatswe n'umujyi wa kigali mu koroshya ingendo hirya no hino mu mujyi wa kigali, aho izi modoka zitwara umubare w'abantu benshi icyarimo bityo bikoroshya kubona serivisi z'ingendo muri uyu mujyi.

Rimwe mu masangano y'imihanda mu mujyi wa Kigali ahahurira imodoka ziba zijya ndetse zinava mu byerekezo bitandukanye, imihanda kandi urimbishijwe n'ubusitani bwiza ndetse hakaba hariho n'amatara yo ku mihanda amurika mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Umwe mu mihanda y'umujyi wa Kigali ikoreshwa n'ibinyabiziga mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane hagati y'uturere n'umujyi wa Kigali. Iyi mihanda kandi irimbishijwe n'ubusitani ndetse n'amatara amurikira imihanda iyo bwije bityo bikoroshya ingendo igihe cyose, haba no mu masaha ya nijoro nta nkomyi.

Utuyira twagenewe abanyamaguru bakoresha umuhanda mu gihe cyo kwambuka, utu tuyira iyo abayobozi b'ibinyabiziga batugezeho bategetswe kugabanya umuvuduko ndetse bakanahagarara abanyamaguru bakabanza kwambuka, ibi bigakumira impanuka za hato na hato zo mu muhanda.

Umwe mu mihanda yagenewe kunyurwamo ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru mu mujyi wa Kigali, aho abanyamaguru bagenerwa akayirabo ko ruhande naho ibinyabiziga bikanyurwa gukoresha umuhanda wa kaburimbo. Iyi mihanda kandi irimbishijwe n'ubusitani bwiza ndetse ifite n'amatara ayimurikira mu gihe cya nijoro, bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Imihanda yifashishwa mu gukora ingendo hirya no hino mu mujyi wa Kigali cyane cyane hifashishijwe ibinyabiziga bikoresha moteri ikaba irimbishijwe n'amatara ndetse n'ubusitani bituma umujyi ukomeza gusa nezaza.

Umwe mu mihanda yifashishwa mu gutwara abandi ibintu, hakoreshejwe inzira y'ubutaka ndetse n'ibinyabizigaho kandi imihanda irimbishijwe mu busitani buyikikije ndetse ikaba iriho n'amavuta y'amashanyarazi acanira umuhanda mu gihe cya ninjoro, bityo mu ngendo zigakomeza nta nkomyi.

Imihanda minini, migari kandi myiza ya kaburimbo, ni imwe igaragara mu mujyi wa Kigali, ibi bikagaragaza iterambere ry'uyu mujyi, aho kandi iyi mihanda ifite ubusitani bwiza bukomeza kurimbisha umujyi ndetse ikaba inacanirwa n'amatara nijoro kugira ngo ingendo zikomeze mu mutekano usesuye.

Kimwe mu biranga iterambere ry'ahantu harimo ibikorwa remezo nk'imihanda, amazi, umuriro, amashanyarazi n'ibindi, uyu ni umwe mu mihanda ya Kigali aho urimbishijwe n'ubusitani bwiza ndetse ukaba uriho amatara awumurikira mu gihe cya nijoro bityo ibikorwa by'ingendo bigakomeza nta nkomyi.

Icyapa kiyobora abatwaye ibinyabiziga cyangwa abanyamaguru mu gihe bari kugenda bava ahantu hamwe bajya ahandi, ibi ndetse bikaba byafasha umuntu kurangira aho undi cyangwa ikigo runaka gikorera hifashishijwe izi nimero z'umuhanda, aho nk'iki cyapa kigaragaza umuhanda Ka, Kigali- Gasabo nomero magana atandatu mirongo inani n'umunani.

Umwe mu mihanda ikoreshwa mu mujyi wa Kigali hagamijwe kunoza no koroshya serivisi z'ingendo, umuhanda kandi ukaba urimbishijwe n'ubusitani mu mpande ndetse unagiye uriho amatara awumurikira mu gihe cya nijoro bityo serivisi z'ingendo zigakomezwa nta nkomyi no mu gihe cya nijoro.

Umwe mu mihanda ya kaburimbo minini iri mu mujyi wa Kigali aho ikoreshwa n'abatwara ibinyabiziga bitandukanye nk'imodoka, moto, amagare ndetse n'abanyamaguru boroshya imihahiranire ndetse n'imigenderanire hagati y'uduce tumwe n'utundi. Iyi mihanda kandi irimbishijwe n'ubusitani mu mupande ndetse ifite n'amatara amurikira umuhanda mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Umwe mu mihanda ikoreshwa n'ibinyabiziga yaba ibikoresha moteri cg se ibidakoresha moteri, koroshya ubuhahirane hagati y'uturere dutandukanye tw'igihugu ,ndetse bigafasha cyane cyane abahinzi kugeza umusaruro wabo ku isoko ndetse no kugura ibyo bakeneye gukoresha mu buhinzi bwabo bwa buri munsi, bityo bikazamura iterambere ry'igihugu.

Ubwiza bw'imihanda ya Kigali, bugaragazwa n'ubusitani bwiza cyane buzengurutse iyi mihanda ndetse n'amatara amurikira iyi mihanda mu masaha ya nijoro, bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi kandi abayobozi b'ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda, bakawukoresha ntacyo bikeka.

Utuyira twagenewe abanyamaguru bakoresha umuhanda igihe bakeneye kwambuka bava mu cyerekezo kimwe bajya mu kindi. Aha kandi iyo binyabiziga bihageze bisabwa guhagarara abanyamaguru bakabanza kwambuka, bityo bikazamura umutekano wo mu muhanda hirindwa impanuka za hato na hato.

Umwe mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali ukoreshwa n'abakoresha ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru muri rusangehu uduce tumwe n'utundi, imihanda yifashishwa mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane hagati y'uduce tumwe na tumwe n'utundi nk'aho ibicuruzwa bishobora kugera mu mujyi wa Kigali biturutse hirya hino mu ntara bivuzwe mu binyabiziga bikoresha uyu muhanda.

Rimwe mu masangano y'imihanda riherereye mu mujyi wa Kigali, aho harimbishijwe imitako myiza n'ubusitani bikikije imihanda hakaba kandi hari n'amapoto akwirakwiza umuririro w'amashanyarazi, ndetse n'amatara ku muhanda amurika mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza nk'ibisanzwe.

Umwe mu mihanda ya Kigali yifashishwa n'ibinyabiziga mu koroshya ingendo ndetse n'ubuhahiranranire hagati y'uturere tw'umujyi wa Kigali hahuye imihanda ifite ubusitani ndetse inafite amatara ayimurikira mu gihe cya nijoro kugira ingendo zikomeze hirindwa impanuka za hato na hato zo mu muhanda.

Umwe mu mihanda igize umujyi wa Kigali, ufite ubusitani ndetse n'amatara awumurikira mu gihe cya nijoro, ndetse n'imiyoboro migari y'amazi itwara amazi mu gihe cy'imvura ikarinda kwangirika k'umuhanda.

Akayira kagenewe abanyamaguru mu gihe bambuka umuhanda wa kaburimbo,.Aka kayira iyo abayobozi b'ibinyabiziga bakagezeho bagabanya umuvuduko kugira ngo abanyamaguru bambuke. Imihanda ya Kigali kandi ikikijwe n'amatara meza amurika mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Umuhanda wa kaburimbo uherereye i Kigali, mu Karere ka Nyarugenge, umuhanda mwiza cyane ukoreshwa n'ibinyabiziga bitandukanye mu koroshya ingendo muri uyu mujyi, iyi mihanda kandi ikabakikijwe n'ubusitani bwiza ndetse ifite n'amatara ayimurikira mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Akayira kagenewe abanyamaguru bakoresha umuhanda wa kaburimbo mu gihe bambuka, aka kayira iyo abayobozi b'ibinyabiziga bakagezeho bategetswe guhagarara abanyamaguru bakambuka, ibi bigafasha mu kugabanya impanuka za hato na hato zo mu muhanda ndetse n'imikoreshereze isesuye mu muhanda ituma umutekano wo mu muhanda ukomeza kuba nta makemwa.

Icyapa kiyobora abatwaye ibinyabiziga ndetse n'abandi bakoresha umuhanda, kimenyesha ko nta parikingi y'igihe kirekire ihari.

Moto yo mu bwoko bwa rifani, yifashishwa mu gutwara imizigo, bityo bikoroshya imihahirane hagati y'uduce tumwe n'utundi, nk'aho umuhinzi ashobora kuvana ibihingwa bye mu murima, akabigeza ku isoko bimworoheye, bityo bikoroshya imihahiranire.

Ikiraro cya kaburimbo giherereye ahazwi nko ku Kinamba mu mujyi wa Kigali, aho iki kiraro kigira uruhare runini cyane mu koroshya cy'ingendo, mu mujyi wa Kigali, birinda akavuyo, ndetse n'umuvundo w'imodoka, aho imodoka zijya mu cyerekezo kimwe zinyura hejuru, naho izijya mu kindi cyerekezo zigakoresha umuhanda wo munsi.

Utuyira twahariwe abanyamaguru bakoresha umuhanda minini ya kaburimbo ikoreshwa n'ibinyabiziga mu busanzwe aho bambukiranya bavana hamwe bajya ahandi, utu tuyira twagene abanyamaguru iyo abayobozi b'ibinyabiziga batugezehogomba kugabanya umuvuduko bityo abanyamaguru bifashisha mu muhanda nta nkomyi.

Umumotari utwaye moto mu muhanda wa Kigali kugira ngo afashe abantu mu ngendo zabo bava ahatu hamwe bajya ahandi, kandi na we akora akazi ke nk'uko bikwiriye bityo akabasha gutunga umuryango we ndetse akanizigamira.

Umwe mu mihanda igize umujyi wa Kigali ikoreshwa n'abatwara ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru. Iyi mihanda igafasha koroshya ingendo ndetse n'ubuhahirane hagati y'umujyi wa Kigali ndetse n'uturere tuwukikije. Iyi mihanda kandi ikaba irimbishijwe n'ubusitani ndetse n'amatara amurikira imihanda mu gihe cya nijoro bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.

Imihanda yifashishwa n'ibinyabiziga bigendera ku butaka cyane cyane ibya mote ndetse n'ibinyamitende bikoresha imihanda ndetse n'ibyapa biyobora abayobozi batwaye ibyo binyabiziga ndetse n'abanyamakuru muri rusange aho bari nk'umwanya wagenerwakomora abanyamaguru bityo abayobozi b'ibinyabiziga bahageze bagabanya umuvuduko bakemerera abanyamaguru kuba bakambuka umuhanda.

Imihanda myiza ya kigali; irimbishijwe n'ubusitani ndetse inashyikijwe n'amatara ayimurikira mu gihe cya n'ijoro, kugira ngo ingendo zikomeze nta nkomyi ndetse bikomeze kugaragaza ubwiza bw'umujyi muri rusange.

Imwe mu mihanda ya kaburimbo, ikoreshwa n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru mu mujyi wa Kigali, iyi mihanda kandi ikaba irimbishwa n'ubusitani bwiza ndetse inakikijwe n'amatara yo ku mihanda, awumurikira igihe bwije kugirango ingendo zikomeze nta nkomyi mu mutekano usesuye.

Ikiraro giherereye ku Kinamba mu mujyi wa Kigali, aho gihuza uduce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, iki kiraro kandi kirakomeye ku buryo kinyurwaho imodoka z'ubwoko bwose, yaba izitwaye imizigo, n'izitwara abantu mu buryo bwa rusange, bava cyangwa bajya mu mujyi wa Kigali rwagati, n'abakomeza bajya ku Gisozi, ndetse n'ibindi bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali.

Ibinyabiziga bitwara abantu ku giti cyabo aho bibafasha mu koroshya ingendo haba hirya no hino mu mujyi ndetse no mu gihugu rusange bajya cyangwa bava ku kazi, ndetse n'imirimo yabo ya buri munsi bitabagoye izi modoka kandi zibafasha mu koroshya ubuhahirane ndetse n'imigenderanire hirya no hino.

Amatara yo ku muhanda azwi nka feruge ayobora ibinyabiziga ndetse n'abanyamakuru amenyesha imodoka zigomba gukomeza mu byerekezo runaka cyangwa se nibura umwanya w'abanyamaguru wokwambuka ibi bikagabanya impanuka zo mu muhanda aho buri cyerekezo kiba gifite igihe kigomba kugendera bityo ntaho bagomba kugoganira.

Ibinyabiziga bitwara abagenzi bibajyana hirya no hino mu gihugu, bitwawe n'abamotari aho bakura abagenzi mu bice bitandukanye by'igihugu babageze ahandi bikoroshya ingendo ndetse n'ubuhahinire hirya no hino mu mujyi wa Kigali ndetse no mu nkengero zaho hifashishijwe ibi binyabiziga.

Umwe mu mihanda igize umujyi wa Kigali ikoreshwa n'ibinyabiziga ndetse n'abanyamaguru mu koroshya imigenderanire hagati y'Uturere ndetse n'uduce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali. Iyi mihanda kandi irimbishijwe n'ubusitani, ndetse ifite n'amatara yo ku mihanda amurika mu gihe cya nijoro. Bityo ingendo zigakomeza nta nkomyi.